Umutegarugori uri mu nzu y'ubucuruzi, ari kwishimira ko ari kubona abakiriya, ibicuruzwa bye bigatera imbere, arasa neza ameze nk'umuntu ufite amafaranga ugendeye ku isura ye.